Ubuhinzi bwa kijyambere buba bwiza cyane, aho usanga nk'ahantu hatandukanye bari guhinga imbuto zitandukanye nk'icyayi, cyangwa se n'ikawa, bagashaka nk'imashini zuhira, bakazishyiramo amazi, ugasanga ubuhinzi buroroshye cyane, ndetse n'abari gukoresha ya mashini bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Uburezi buga bwiza cyane. Aho usanga nk'umuntu yaragiye kwiga akiga muri primeri no muri segonderi, ugasanga yajya kwiga nka shimi ugasanga yagiye kwiga nko gukanika amapombo, cyangwa se ibindi bitandukanye yarangiza yaba agiye nko gutera umuti akambara ibikoresho byabugenewe, ubundi agatera umuti ugasanga ibyo ahinze ari nk'ubuhinzi ugasanga butera imbere, kuko yagiye kwiga gute ibintu bijyanye na bya shumi akajya atera umuti kubera ibisimba biba byatatse imyaka.

Uburezi buba bwiza cyane, aho abantu bajya mu ishuri bakiga amasomo atandukanye harimo za shimi, za biyoloji na za fizike ndetse n'imibare. Bakaza bagakora ifumbire itandukanye, na za , enipeka n'izindi zitandu kanye. Bakajya bayikoresha mu buhinzi butandukanye, ibyo bigafasha abahinzi n'abandi bize kubona amafaranga bakomeza kwiteza imbere.

Iterambere riri kugenda ryihuta cyane, aho usanga umuhinzi yarahinze ibihingwa bitandukanye nk'ibishyimbo, ugasanga hadutsemo indwara zitandukanye zo kurya nk'udusimba za shokokwa, noneho bagashaka amapombo n'umuti yo gutera, twa dusimba kugira ngo tuve ku bihingwa, bidahinduka ngo byereruze cyane.

Ni bwiza cyane aho usanga abaturage barahinze nk'imbuto z'ibirayi zitandukanye, ubutaka butandukanye noneho bashaka imiti yo kujya batera bya birayi igihe byafashwe n'ibisimba, kugira ngo ibirayi byabo bikure neza ndetse bibamano kubona bakabona amafunguro bagasagurirana amasoko.

Reta ni nziza cyane, aho usangaga ifite nk'ibiyaga, ibiyaga ikajya yororeramo amafi atandukanye, amaheri n'isambaza, igafata nk'abantu bakajya mu kiyaga bakishyira hamwe bagakora nk'amato, bagashiraho ibiti, bagashiraraho inshundura, bakabyita amakoromani, bakajya bajya kuroba amahere bamara kuyaroba bakayacuruza, bagakuramo amafaranga yo guteza imbere imiryango ya bo.

Ubworozi bw'amafi ni bwiza cyane aho usanga abaturage ndetse na guverinoma y'u Rwanda yarororeye nk'amafi mu kiyaga, indagarara, n'amahere, ugasanga abaturage bagiye kuroba babonye ibyo kurya byo kugira ngo babarinde indwara zitandukanye no kubatungira ubuzima, ndetse bimwe bakabisagurira amasoko, bakiteza imbere bagura ibindi bikoresho bitandukanye.

Abahinzi iyo bishyize hamwe bagashaka imirima yo guhingamo, bagatera imbuto zitandukanye. Karoti, inyanya, insenda, ibihaza ibyo bibafasha kubakoresha mu ngo zabo, ndetse bagasagurira n' amasosoko, bakabonamo amafaranga yo gukoresha imirimo itandukanye.

Ubworozi bw'amafi bukomeje guteza imbere cyane, ari korora amafi, ari ukorora amahera, ndetse n'insambaza, ibyo bigafasha abantu bakoramo kubona amafaranga yo kwiteza imbere, ndetse bakagaburira n'imiryango yabo, bagafasha n'igihugu mu kuzamuka mu bukungu.

Ubworozi bwo mu mazi buba bwiza cyane, aho usanga ahantu hatandukanye hari nk'ibiyaga cyangwa se abantu bagakora nk'ibidamu, ugasanga bororeyemo nk'inkube cyangwa se amasonzi. Bamara kuyorora bakajya bayakoresha mu mafunguro, dore ko agira n'intungamubiri nyinshi, byaba na ngombwa bakayajyana ku isoko. Ari abayarobye ndetse n'abayoroye bakabona amafaranga, bagakomeza kwiteza imbere mu bikorwa bya buri munsi bitandukanye.

Ubuhinzi ni bwiza cyane ndetse n'ubworozi, aho umuntu ahinga yifashisha igihe yatetse nk'isamaki dore ko isamake ari ingirakamaro mu mubiri ,ni yo mpamvu twese dukwiye kuzajya turazirya ,turazikoresha no mu birori, ndetse tukazikuramo n'amafaranga adufasha no gutera imbere, tugura ibindi bikoresho bitandukanye.

Ubworozi bw'amafi buba bwiza cyane, aho usanga nk'umuntu yaroroye amafi yaracukuye nk'ibyobo akoreramo amafi, haba haragiyemo amazi ugasanga nk'ayo mafi bayajyanye ku isoko abayashaka barayaguze, kandi n'abandi nabo bakayakoresha mu bijyanye no ku mafunguro, ibyo bigafasha abacukuye bya bidamu kuyiteza imbere.

Ubworozi bw'amafi ni bwiza cyane, aho usanga uwayoroye ari kuyajyana ku isoko, bamara kuyajyana ku isoko, abaza kuyagura bakayabona ibyo gutunga imiryango, ndetse n'abayagurisha bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo bibugarije.

Ubworozi bw'amafi buba bwiza cyane, aho usanga abantu batandukanye baracukuye ibizenga bakoreramo amafi, ugasanga umuntu ifi aragiye arayirobeye nk'uyikeneye arayitetse irahiye arayiriye, ugasanga ifi n'intungamubiri kandi ugasanga na wa wundi wacukuye cya kidamu abonye amafaranga yo kwiteza imbere.

Ubworozi bw'amafi buba bwiza cyane aho usanga nk'abantu barakoze ibyuzi cyangwa se ibidamu bagashyiramo amafi agakuriramo yamara gukura bakayafata bakayajyana mu rugo kuyateka cyangwa se ku isoko. Ibi bigafasha wa umuntu woroye amafi kubona amafaranga yo kwifashisha mu miryango ye cyangwa se mu bikorwa bya buri munsi bigafasha na ba bantu bakeneye amafi kubona amafunguro yo kubatungira ubuzima.

Ubworozi ni bwiza cyane, aho usanga umuntu yaroroye inka, inka ikajya iduha amata, ndetse ikaba yanaduha n'inyama zo gutunga imibiri yacu, byaba na ngombwa, tukayijyana ku isoko, tukagurisha amata, tukagurisha inyana yayo, amafaranga avuyemo tukayakoresha mu bikorwa bitandukanye, byo gufasha imiryango yacu ndetse n'abavandimwe.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga nk'abantu barishyize hamwe bagahinga nk'ibigori, bagahinga nk'ibintu bitandukanye ugasanga bari ku byifashisha ku mafunguro yabo ya buri munsi, ndetse byaba na ngombwa bagasagurira amasoko, bakabona amafaranga yo gukomeza guhinga bakaniteza imbere.

Iterambere rikomeje kwihuta cyane mu gihugu, usanga mu duce tumwe na tumwe harimo abaturage bahinze amatunda, yo kwifashisha ku mafunguro, kandi barangiza bakayasaguza ku masoko, bityo bakabonamo amafaranga yo kugura ibikoresho, bagakomeza kwiteza imbere.

Mu by'ukuri ubuhinzi ni bwiza, iyo twahinze tubona ibyo kurya ndetse tukajyana mu isoko. Nko guhinga ibigori, iyo twabihinze tubona ibyo gushigishamo, ibyo dushigishamo igikoma ndetse bimwe tukabijyana mu isoko tukabona mo amafaranga.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga nk'abantu barishyize hamwe cyangwa se umuntu ku giti ke ugasanga yateye nk'igiti, icyo giti akagiteramo urubuto rwitwa igishusha cyangwa se kidoki, ugasanga ibyo bidodoki babikoreshe ku mafunguro byaba na ngombwa akabijyana ku isoko, bityo ababikeneye bakabibonera ku gihe kandi na we akabona amafaranga yo gukomeza kwiteza imbere mu bundi buhinzi.

Ubuhinzi nibwiza cyane, aho bukomeza gufasha abaturage kuzamuka mu bukungu, aho usanga umuhinzi yarahinze amajeri, n'ibishyimbo byo kujya bakoresha mu mafunguro, barangiza bakabyifashisha, babijyana ku isoko, bakabonamo amafaranga yo kugura ibindi bikoresho bitandukanye, baniteza imbere.

Aho usanga abantu bishyize hamwe cyangwa se umuntu ku giti cye, agafata nk'umurima we akawuteramo ibisheke, yamara guteramo ibisheke akajya abikoresha nko ku mafunguro igihe arimo gushakamo nk'amasukari mu mubiri, yarangiza nk'ibyo bisheke akabijyana ku isoko bakamuhamo amafaranga, agakomeza agahinga ubuhinzi bwe, kubera ko ari kubona amafaranga kandi akaniteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo ni bwiza cyane aho usanga umuntu yaroroye intama, n'amahene, n'inka bitandukanye nyamara intama bakajya bazikoresha mu biribwa nk'inyama, ndetse byaba na ngombwa bagasagurira amasoko bakajyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga bakoresha ibindi bintu, ndetse n'ibitoki umuntu agahinga urutoki byaba na ngombwa akajya arya igitoki, yarangiza akakijyana ku isoko akiteza imbere.

Amashyamba ni meza cyane kuko atuma tubona amafaranga, iyo ibiti bimaze gukura umuntu arabigurisha, akabigurisha amafaranga akifashisha mu guhaha nk'yindi myaka, nk'ibishyimbo ,n'inyanya bityo umuntu akomeza gutera imbere cyane.

Iterambere rikomeje kwiyongera cyane, aho guhinga ibireti, amashaza, atuma umuntu abona amafaranga yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi. Akaguramo ibindi bintu, akagura imyenda, akagura inkweto, akiteza imbere mu buryo bukomeye, akanubaka n’amazu. Gutyo, gutyo, agakomeza kwiteza imbere, kubwo guhinga amajeri.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane, aho umuntu ajya kwiga mu ishuri akiga agoronomi; agoronomi ni ukuvuga ukuntu bi ba indi imyaka neza ikera neza bakamwigisha, ukuntu bahinga urutoki rukera insina zitandukanye, insina bita indaya, insina bita goromisheri ku bazitera kijyambere ubundi zigatanga amafaranga ndetse n' ibitoki bakabikoresha bari kubikuramo amafunguro, umuntu waba wateye urutoki yabona, amafaranga menshi akiteza imbere.

ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'abaturage cyangwa se abantu bishize hamwe barahinze nk'ibirayi. Usanga ibyo birayi bikabafasha mu mafunguro yo mu rugo, ndetse bagasagurira n'amasoko, bakuramo amafaranga yo gukoresha ibindi bintu bitandukanye, nko kwigurira imyenda n'inkweto, ibyo bikabafasha gutera imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'abaturage barishyize hamwe cyangwa umuturage ku giti cye agafata umurima, agateramo imbuto zitandukanye, agateramo nk'ibisheke, ibisheke bakajya babyifashisha, bakajya babirya kuko bibamo amasukari yo gutunga umubiri, ndetse byaba ngombwa bakabijyana ku isoko kugira ngo ababikeneye babazanire amafaranga, ndetse bakomeza bagatera imbere.

ubuhinzi ni bwiza cyane aho umuntu afata umurima, akatiramo ibiti biti bitandukanye harimo ibya voka, amapapaya, amaronji ndetse ibyo biti bikaba byakurura na ba mukerarugendo bakaguha amafaranga yo gukoresha mu mirimo itandukanye, bityo ugakomeza ugatere imbere ndetse n'abari gukora muri ibyo biti na bo, ukabaha amafaranga yo gutera imbere yo kwifashisha mu gutunga imiryango yacu.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu afashe ahantu hatandukanye agatera nk'indimu, agatera nk'imboga, yamara gutera nk'imboga, akazazikoresha nko ku mafunguro byaba ngomba agasagurira amasoko akabona amafaranga yo gukemura ibindi bibazo, bigafasha ba bantu baje kugura imboga bakazibona ku giciro kiri hasi, kandi ugasanga nabo bazigurishije ateye imbere akomeje guhinga ibihingwa bye akaniteza imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga abaturage cyangwa se abantu bishyize hamwe nko mu makoperative cyangwa amatsinda atandukanye, ugasanga bahinze imbuto y'ibigori. Ibigori bakaba babyifashisha mu mafunguro yo mu rugo. Utekamo igikoma, imitsima n'impungure. Ugasanga babijyanye no ku masoko, bamara gusagurira amasoko, bakabona amafaranga yo gukomeza gukora imirimo yabo itandukanye.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'abaturage barateye ibihingwa bitandukanye bagatera nk'ibishyushya, cyangwa se bagatera nk'ibitoki n'ibiti, ibyo bikabafasha kubona n'amafunguro ya buri munsi ndetse ibyo basaguye bakabisagurira mu masoko, usanga umuturage yiteje imbere, kubwo igihingwa kibidodoki.

Ubuhinzi bwa bwiza cyane aho usanga umuntu yarafashe nk'ubutaka bwinshi abantu bishyize hamwe n'amakoperative agahinga imbuto zitandukanye nk'igihingwa cy'ibigori bagahingamo n'ibihwagari. Ibyo bikabafasha gukoresha mu mafunguro yo mu rugo ndetse bagasagurira amasoko bakabona amafaranga yo guhemba abahinze, nabo ba bakabona amafaranga yo kurinda indi mirima kugira ngo bakomeze ubuhinzi bwabo no kwiteza imbere.

Iterambere ni ryiza cyane aho usanga nk'umuntu yarateye nk'ibiti bitandukanye, by'intusi bakajya babikoresha mu gutekesha ibyo kurya byabo, ndetse barangiza bagafata za nkwi bakazitwikamo amakara, amakara bakayajyana ku isoko, cyangwa bya biti nabyo bakabijyana ku isoko bakabyubakisha amazu, ibyo bigafasha wa muhinzi wahinze za ntusi kubona amafaranga.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'umuntu yarafashe umurima agateramo ibiti, yamara guteramo ibiti agateramo nk'amatunda, ugasanga amatunda yeze, yamara kwera wa muhinzi akabonamo amatunda yo kurya, yamara kubona amatunda yo kurya agasagurira n'isoko, umuntu yaba ayakeneye akaba yajya kuyashaka nko ku isoko akamuha amafaranga, yamara kumuha amafaranga ,wa mucuruzi agakomeza agatera imbere kubwo guhinga imbuto y'amatunda.

Ubuhinzi bw'imbuto buba bwiza cyane, aho usanga abantu barabuhinze ahantu hatandukanye, nk'imbuto y'ibishyimbo usanga ivuyemo nk'imiteja bakajya bayifashisha mu mafunguro, bakanayijyana nko ku isoko bakabonamo amafaranga yo gukomeza ubuhinzi, ibyo bikabafasha gutera imbere.

Ubuhinzi bw'amapera buba bwiza cyane, aho usanga amapera bayakoresha mu biribwa, ndetse uyajyana ku isoko ugakuramo amafaranga yo gukoresha imirimo itandukanye, ukiteza imbere ku bwo guhinga igihingwa cy'amapera.

Ubuhinzi ni bwiza cyane aho umuturage asigaye arahinga, agahinga imbuto zo gukoresha mu rugo ndetse byaba na ngombwa agasagurira amasoko. akiteza imbere, akagurisha n'abandi baturage, bakaza kugura imbuto zo kurya. Ndetse bakiteza imbere bagurisha za mbuto bagakora n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Ubuhinzi n'ubworozi buba bwiza cyane, aho usanga abantu baroroye amatungo atandukanye nk'ihene cyangwa se n'intama, usanga nk'ihene bazikoresheje ku mafunguro tubona ngombwa, izindi bakazijyana ku isoko bakuramo amafaranga yo kwifashisha kwagura ubworozi bwabo ndetse no kugura ibyo bakeneye bagurishije ibyo boroye.

Ubuhinzi buba bwiza cyane. Aho usanga abaturage barishyize hamwe nko mu makoperative bagahinga imbuto zitandukanye, nk'imibiteje. Barangiza bakayikusanyiriza ahantu hamwe, bakajya bayibika. Barangiza nabo bagatanga akazi. Ari abo kugakuramo, ari n'ababandi bahinze imiteja cyangwa ikawa nabo bikabafasha gutere imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane ,aho usanga abahinzi batandukanye barafashe nk'umurima bakawuteramo imyaka itandukanye ,nk'avoka cyangwa se nk'igipapayi, cyangwa se nk'ikinyomoro, ugasanga bafashe nk'udushashi bagiye barapakiramo nk'itaka barangiza bagashyiramo imbuto, ugasanga bahinze nk'ibinyomoro, ahantu runaka babonye nk'amafaranga babijyanye nko ku isoko, ugasanga nk'ibindi babikoresheje mu mafunguro ibyo bikabafasha kwiteza imbere.

Igihingwa cya voka ni cyiza cyane, aho gikomeje guteza imbere umuryango nyarwanda, aho voka igizwe n'amavuta ndetse n'ibinure, akajya adufasha mu kubaka umubiri, byaba na ngombwa ugasagurira n'amasoko ukiteza imbere, kubw'igihingwa cya voka.

Ubuhinzi buba bwiza cyane ,aho usanga nk'abantu barishyize nko mu makoperative bakajya nko mu murima bakawuhinga ako kanya ,bagatera n'ibihingwa ako kanya, byamara no kwera urugero nk'ibigori no kubisarura bikaba uko, ugasanga bya bigori basaruriye hamwe ntibipfuye ,cyangwa se ntibyangiritse, barangiza amafaranga bakuye nko mu buhinzi akabateza imbere bakabona gutera imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane ,aho usanga nk'abantu bari guhinga bakiteza imbere ,bagahinga nk'igihingwa cyitwa ibitunguru, ibyo bikabafasha kugikoresha bategura amafunguro, byaba na ngombwa bagasagurira amasoko ku buryo n'abantu babikeneye baza kubigura, abandi babihinze bakiteza imbere, kubwo guhinga igihingwa cy'ibitunguru.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, bukunze kugenda buteza imbere abaturage, aho umuntu ahinga igihingwa cy'amashu akajya agisagurira amasoko, ndetse akagikoresha nko mu muryango, kugira ngo gitunge imiryango yo mu bwoko bw'imboga, byaba na gombwa, agakuramo amafaranga yo gukoresha mu bindi bikorwa bitandukanye bya buri munsi.

Ubuhinzi ni bwiza cyane aho usanga abantu barahimbye pipinyeri, pipinyeri bakajya bayororeramo avoka izo voka bakazitera, zamara kwera zikara avoka kujya barya ndetse bakanazijyana mu isoko, bakabonamo amafaranga yo gukomeza kwiteza imbere no guteza imbere igihugu.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'umuhinzi yarahinze nk'ikawa, yamara kuzihinga akajya anywamo icyayi cyangwa se ikawa, bamara kuzinywa bakanasagurira amasoko, kugira ngo babonemo amafaranga yo kwifashisha mu gukomeza ubuhinzi bwabo. Ibyo bigafasha umuturage kwiteza imbere no kubona amafaranga.

Ubuhinzi ni ingenzi cyane, aho umuntu ahinga, agahinga amateke, amateke yitwa bwayisi, bakajya bayakoresha mu mafunguro, ndetse byaba na ngombwa bagasagurira amasoko, bakagurisha, abayakeneye bakayabona, ndetse nabo bakabona amafaranga, yo kugura ibindi bikoresho, ibiribwa byo gucuruza, akiteza imbere.

Ubuhinzi ni bwiza cyane aho usanga ari abagore ari n'abakobwa ndetse n'imiryango itandukanye yarahinze, igahinga urugero nk'bihaza, ibihaza bakajya babyifashisha babishyira ku mafunguro, bakabigereka ku bishyimbo, bakabigereka ku mashaza, ibyo bigatuma banabijyana ku isoko bakabonamo amafaranga yo gukomeza kwiteza imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usangaga nk'abantu barafashe nk'ubutaka butandukanye ahantu hatandukanye, bakahahinga ibintu bitandukanye, nk'amashu ndetse n'imyumbati, ugasanga iyo myumbati bahinze bari kuyifashisha mu mafunguro yo mu rugo ya buri munsi, ugasanga banasaguriye n'amasoko kubwo guhinga igihingwa cy'imyumbati, ugasanga ari umuhinzi ateye imbere kandi na ba bandi bakeneye ibiribwa bakabibona ku buryo buboroheye.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga abahinzi banafashe n'imbuto zitandukanye bakazitera nk'avoka, bagatera mu mirimo itandukanye, ugasanga igiti cya voka cyarakuze kizanye imbuto, izo mbuto bazifashishije ku mafunguro yo mu rugo, ndetse bagasagurira amasoko, abazikenera bakaza kuzigura wa wundi wazijyanye ku isoko akabonamo amafaranga yo gukoresha iyindi mirimo.

Ubuhinzi buba bwiza cyane，aho usanga abantu barateye imbere ku bwo guhinga， ugasanga nk’umuntu yafashe umurima we， ahinze nk'igihingwa k’ibigori，ugasanga ibigori bireze cyane，ibigori akabikoresha mu mafunguro yo mu rugo，byaba na ngombwa， agasagurira amasoko， akabona amafaranga gukomeza ubuhinzi bwe kandi akanatera imbere

Ubworozi buba bwiza cyane, aho usanga baroroye inkoko zitandukanye nk' amasake ya dendo. Ugasanga ayo masake n'inkoko zitandukanye ziri gutera nk'amagi, amagi bakayifashisha ku mafunguro, ndetse bakanayajyana ku isoko bakabona amafaranga. Bigafasha umuturage gutera imbere, ndetse n'igihugu kigatera imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga nk'umuhinzi yarahinze agahinga nk'imbuto n'imboga, ugasanga ari kwiteza imbere n'ababandi bazikeneye bakaza kuzigura ugasanga baziboneye hafi. Bagakomeza nabo bakabona ibyo kurya kandi na wa mucuruzi akiteza imbere.

Ubuhinzi ni bwiza cyane aho usanga umuhinzi yaritejeje imbere agasagurira amasoko, ndetse akabona n'imbuto zo kurya nk'amatunda, kuko na yo afite intungamubiri nyinshi zo kubaka umubiri wacu, ni yo mpamvu dukwiye guhinga imbuto nyinshi kugira ngo tubashe kwiteza imbere.

Ubuhinzi ni bwiza cyane aho usanga abana, n'abagore, n'abagabo bari guhinga imyaka itandukanye: ibishyimbo, amajeri, ibitoki, amatunda, n'ibisheke. Barangiza bakabikoresha mu mafunguro yabo ya buri munsi, ndetse bakanasagurira amasoko, bakabona amafaranga yo kuzagura izindi mbuto zo guhinga, ngo bakomeze kwiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo ni bwiza cyane, aho usanga umuturage yarihangiye umurimo wo kugura amatungo atandukanye nk'intama, ihene, azikuramo amafaranga ndetse byaba na ngombwa bakajya bazikoresha mu gutegura amafunguro ya buri munsi, kuko inyama ziba nziza cyane mu mubiri kandi zigatanga n'amafaranga mu buryo butandukanye.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, aho basigaye bahinga imbuto, bakazikoresha mu rugo nk'ibiribwa, ndetse bakaba basagurira n'amasoko bakavanamo amafaranga, uburyo babiguranishamo bakaguramo ibindi. Nk'intoryi ziba nziza cyane kuzihinga ndetse na pavuro, umuntu akazihinga akazijyana ku isoko akazikuramo amafaranga.

Iyo abantu bishyize hamwe usanga akenshi bari gukora imirimo itandukanye, cyangwa se bagakora nk'umurimo umwe ugasanga nk'ubu bahinze nk'ibigori cyangwa se ibishyimbo barimo kubirobanura, ugasanga bari kurobanuramo ibyapfuye barangiza kurobanuramo ibyapfuye, hari ibizima bakabijyana ku isoko bakabonamo amafaranga yo kwiteza imbere, ibyo bigatuma bakora ubuhinzi bwabo neza kandi bishimye, kubera ko bari kubonamo amafaranga mu byo bejeje.

Imyumbati ni myiza. Mbere twahingaga imyumbati tukajya turayirya, byaba na ngombwa ikadupfira ubusa. Ariko kuko iterambere ryaje, iyo tuyiguye tuyijyana ku isoko, tukayikuramo ayandi mafaranga. Ayo mafaranga akora indi mirimo.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga nk'umuturage yarahinze ibintu bitandukanye, agahinga nk'amateke amateke ye akajya abafasha nko ku mafunguro, barangiza bakayasagurira nk'amasoko bakabonamo n'amafaranga yo kwiteza imbere, ibyo bigafasha umuhinzi ku gukomeza kubona amafaranga yo kugura imbuto no kugura ifumbire, ibyo bikamufasha gutera imbere cyane.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga abaturage barafashe imirimo ya bo bakayihingamo imbuto zitandukanye, nk'amateke, ibijumba, ibyo bikabafasha ku mafunguro ya buri munsi mu ngo za bo, ndetse bakanasagurira amasoko, abaje kugura ya mateke n'ibijumba bakabona ibyo kurya, na ba bandi baje kubigurisha bakabasha kubona amafaranga yo gukoresha indi mirimo.

Iterambere ni ryiza cyane, aho usangaga umuntu cyangwa se abandi bishyize hamwe bakoze nk'amakoperative cyangwa se amatsinda, bafashe nk'ubutaka runaka uko bungana kose, bagahingamo igihingwa nk' icy'ibirayi, ibirayi bakajya babyifashisha mu mafunguro ya buri munsi mu ngo, byaba na ngombwa bagasagura amasoko bakabonamo amafaranga, bakajya biteza imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'abaturage barafashe ahantu bagahinga nk'imbuto zitandukanye nk'ingano, amasaka n'amajeri, barangiza ahari abahinzi bakabonamo amafaranga ndetse n'ibyo gutunga imiryango yabo, bagasagurira n'amasoko bakajyana ku isoko bakabonamo amafaranga yo gukomeza ubuhinzi bwabo, ndetse no kubateza imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'abantu cyangwa se umuntu ku giti cye, yarateye imbere agahinga nk'ibiti bitandukanye by'imbuto nk'avoka. Avoka bakajya bazifashisha ku mafunguro, ndetse barangiza bagasagurira n'amasoko. Ibyo bikabafasha kubona amafaranga yo gukomeza kwiteza imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga n'umuturage yarahinze mbuto y'ibirayi, agahinga mu butaka butandukanye, ibyo bikamufasha kubona amafunguro yo mu rugo, bakajya barya bya birayi, bamara kubirya bagasagurira n'amasoko bakabonamo amafaranga yo kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'indabyo buba bwiza cyane, aho usanga abazihinze bazijyana ku masoko mpuzamahanga, ugasanga bari kuzigurisha bari kubonamo amafaranga menshi bakiteza imbere, kandi na twe twajya kuzigura twazishyira iwacu hakabonera cyane kubera twatatse indabyo.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'abantu barahinze igihingwa cy'urutoki, ugasanga n'abandi bibumbiye mu matsinda, cyangwa se umuntu agahinga wenyine nk'urutoki, rukera ibitoki ibyo bitoki akajya abikoresha ku mafunguro ya buri munsi, ndetse byaba na ngombwa agasagurira amasoko ,ugasanga nk'imodoka, cyangwa moto, cyangwa amagare, bakabipakira bakabijyana ku isoko ,ibyo bigatuma wa w'undi wahinze urutoki atera imbere, kuko kubera ko yahinze igihingwa cy'urutoki.

Ikusanyirizo ry'ibigori ni ryiza cyane, aho usangaga barahinze ibigori ahantu hatandukanye barangiza bakabikusanyiriza hamwe kugira ngo bigori byabo byume neza, kandi bidapfuye hari n'ababikoramo bakabona amafaranga, ndetse byaba na ngombwa bagasaba bakabigurisha ku isoko, ugasanga utarabihinze agiye kubigura bicyo n'ababihinze bagakomeza bagatera imbere kuko kubonamo amafaranga.

Ubuhinzi buga bwiza cyane, aho usanga nk'umuhinzi yarahinze nk'igihingwa cy'ibijumba ukajya abyifashisha mu mafunguro yo mu rugo, byaba ngombwa agasagurira amasoko, ubikeneye akajya ajya kubigura, akamuzanira amafaranga, na wa muhinzi wahinze akiteza imbere.

ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga nk'abantu bishyize hamwe nko mu makoperative cyangwa se mu matsinda, ugasanga bajya nko guhinga ahantu umurima runaka, ugasanga barawuhinze bafatanyije bashize hamwe, ugasanga umurima barawuhinze barawurangije ibyo bikabafasha gukomeza gutera imbere mu buhinzi ko bari guhingira igihe kandi bagasarurira igihe.

Igihingwa cy'avoka kibaga cyiza cyane, aho usanga nk'umuntu yaragihinze munsi y'urugo cyangwa se ku muririmo utandukanye, ugasanga icyo giti keze avoka, avoka barazikoresheje ku mafunguro ,byaba ngombwa ugasagurira amasoko ugasanga abonye n'amafaranga ugakoresha ibindi bikorwa bitandukanye, ibyo bigatuma umuntu akomeza guteza imbere, ndetse akabona n'ibyo ahaha kuko yacuruza avoka.

Ubuhinzi ni bwiza cyane ubu abantu dusigaye duhinga amajeri, tukabona ayo kurya, byaba ngombwa tukayajyana no ku isoko tugakuramo amafaranga abatarayahinze bakabona icyo bashyira mu nda ndetse twese tugahahirana muri rusange.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'abantu barishyize hamwe cyangwa se nk'umuntu ku giti cye, ugasanga nk'umubyeyi yahinze igihingwa cy'ibigori ugasanga kireze cyane, cyamara kwera ugasanga babonye ibyo gushigishamo igikoma, ugasanga babonye ibyo kurya byaba na ngombwa bagasagurira amasoko, bityo bigakomeza kumufasha gutera imbere, kuko ari kubona amafaranga yo gukomeza guhinga no kwagura ubuhinzi bwe.

Ubuhinzi cyane aho bukomeza guteza imbere abaturage, nk'igihingwa k'inyanya, inyanya ni nziza cyane zituma ibiryo bisa neza n'ababiririya bakishima bikongera intungamubiri mu mubiri, ndetse ugasanga bazijyane no ku isoko ugasagura amasoko, n'abazikeneye bakaza kuzihaha, ugasanga uwazihinze abonye amafaranga gukoresha indi mirimo yo kwiteza imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga abantu barishyize hamwe bagahinga imirima minini cyane bagahinga nk' ibijumba, ibijumba bakajya bakaba babikoresha mu mafunguro yabo ya buri munsi ndetse bagasagurira n'amasoko. Ibijumba bakabijyana ku isoko bakabonamo amafaranga yo gukomeza guhinga, ndetse n'amafaranga yo gutunga imiryango yabo.

Ubuhinzi ni bwiza cyane aho umuhinzi ahinga kugira ngo yiteze imbere, agahinda imbuto zitandukanye irimo nk'ibishyimbo cyangwa se ibigori cyangwa se ingano, kugira ngo yiteze imbere agateza imbere umuryango we, yarangiza agashinga bizinesi agakora ikusanyirizo y'imyaka, y'imbuto akagenda arayikusanya abaturage bakaza kuyigura kandi nawe akiteza n'imbere.

Mbere twarahingaga ugasanga ubuhinzi bwacu ntibugenze neza cyane, ariko kubera iterambere ryaje umuntu ,asiye ahinga agasagurira masoko, ndetse akabona n'ibyo kujya mu rugo ,byo gutunga umuryango, nk'ubu twahingaga Soya ugasanga zimwe zipfuye ubusa ariko ubu umuntu asigaye azihinga akazijyana mu isoko ,gutyo umuhinzi agatera imbere.

Ubuhinzi bw'imbuto buba bwiza cyane, aho usanga nk'abantu bashyize hamwe bagahinga imbuto zitandukanye, nk'ibishyimbo, ugasanga bashatse nk'ibikarito byo kubishyiramo kugira ngo ya miteja yabo ibikwe neza, noneho uje kuyigura usanga imeze neza cyane. Noneho n’abandi bari kuyigurisha biteje imbere, bakomeze banagure ubuhinzi bwabo, kubera kubona amafaranga, babijyane ku isoko.

Ubuhinzi bw'imbuto buba bwiza cyane, aho umuntu agenda akinaza nk'imbuto zitandukanye, cyangwa se agasesa cyangwa se akazitera nko mu butaka, ugasanga yahinze nk'ibishyimbo ibishyimbo byamara kwera, ugasanga bitanze nk'imboga nk'iyo bari gusoroma nk'umushogoro, ibishyimbo byamara kwera bakabifata bagafataho nk'ibyokurya, ibisagutse bakabijyana nko ku isoko, ibyo bigafasha wa muhinzi kubona amafaranga.

Ubuhinzi bw'imbuto buba bwiza cyane, aho usanga abantu barishize hamwe nko mu makoperative cyane cyane ahinga imbuto zitandukanye, ibishyimbo, amajeri n'ingano n'ibindi byose bitandukanye. Ugasanga barayigose bafashe nk'intara bazishyize hamwe cyangwa se bakusanyiririza hamwe za mbuto bakayijana ku isoko. Bakuramo amafaranga yo kwifashisha mu mirimo yabo ndetse no gutunga imiryango yabo.

Ubuhinzi bw'imbuto buba bwiza cyane, aho usanga nk'abahinzi batandukanye bashyize hamwe, cyangwa se nk'umuntu ku giti cye agahinga nk'imbuto yitwa idegede cyangwa se igihaza, akagikuramo imbuto zo mu nda, ugasanga bari kuzikoresha mu mafunguro atandukanye, byaba na ngombwa agasagurira amasoko, bityo agakomeza kwiteza imbere ku bwo guhinga.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga abaturage barafashe nk'imirima yabo bakayihingamo imbuto zitandukanye harimo nk'ubunyobwa, ubunyobwa icyo budufasha ni ukudufasha gushyira mu biryo byo kurya, ndetse uwabuhinze akabona n'amafaranga kuko yabujyanye ku isoko ababuhinze bakajya baraza kubugura.

Ubuhinzi bw'imbuto ni bwiza cyane, aho usanga abaturage barishyize mu makoperative cyangwa se barakodesheje imirima, ugasanga bahinze imbuto zitandukanye umuceri, ingano zo kugira ngo bajye bakoresha mu mafunguro yo mu rugo, ndetse bakajya baranayajyana ku isoko kugira ngo bakuremo amafaranga yo kwiteza imbere n'ayo gukoresha mu bikorwa bitandukanye.

Ubuhinzi bw'imbuto buba bwiza, aho usanga abantu barafashe nk'ibishanga bitandukanye bakishira mu makoperative, bakishyira hamwe bakazana amasuka bagahinga nk'umuceri mu bishanga, bikabafasha guteza imbere imiryango yabo, ndetse bakabona n'ibyo kurya ndetse bagafasha n'imiryango yabo guteza imbere kubera ko bari kubona amafaranga bajyanye ku isoko wa muceri.

Ubuhinzi bw'imbuto bwiza cyane, aho usanga abantu barahinze imbuto zitandukanye, nk'ingano, amajyeri, amasaka, ugasanga bafashe imifuka bayishyiramo bayikusanyiriza hamwe, kugira za mbuto zigumye kugira ubuzima bwiza , barangiza zambuto bakazijyana ku isoko, bakabonamo amafaranga yo gukoresha muri bwa buhinzi bw'imbuto, ndetse n'amafaranga yo gutunga imiryango yabo, bityo n'igihugu kigakomeza kigatera imbere.

Ubuhinzi bukabwaho cyane, aho usangaga umuntu yarafashe umurima we, akawuteramo imbuto zitandukanye, nk'ibishyimbo cyangwa se amashaza, izo mbuto zamara kwera akazijyana ku isoko, yamara kuzijyana isoko, akabonamo amafaranga yo gukoresha indi mirimo.

Ubuhinzi ni bwiza cyane， kuko twahingaga amashaza， tugahinga n'uburo， ndetse n'ingano. Niyo mpamvu tubushyira mu imifuka， kugira ngo tubusigasire， ariko ngo butuzanangirika， ndetse tukazabujyana ku isoko， tukabubyazamo amafaranga，yo gukoresha indi mirimo， tukiteza imbere.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje kuba bwiza cyane, aho wasangaga kera bahinga unyebwa, ubunyebwa babwifashisha bategura amafunguro, aribwa mu rugo ndetse n'ubungubu bwaba busigaye babujana ku isoko, hakavamo amafaranga, amafaranga agatunga imiryango ndetse bakifashisha abagura ibindi bikoresho bitandukanye.

ubuhinzi bw'imbuto buba bwiza cyane, aho usanga barahinze nk'imbuto y'ibigori, ugasanga nk'abantu bishyize hamwe bakayihinga, bamara kuyihinga bakayisarura, bakubaka nk'inzu yo kuyihunikamo, ibigori bikaba biri ahantu hatwikiriye bitanyagirwa, ku buryo babijyana nko ku isoko bakabonamo amafaranga atubutse, kubera ko bya bigori nta bwo byahuye n'uburwayi cyangwa ngo bipfe.

Ubuhinzi bw'imbuto ni bwiza cyane kuko zidufitiye akamaro kanini, haba mu miryango yacu ndetse no ku isoko, aho usanga umuhinzi yarahinze soya, soya zo kunywa mu gikoma ndetse byaba na ngombwa bakaziteka mu biribwa, uwazihinze akazijyana ku isoko akabona amafaranga yo gukoresha indi mirimo, bityo agakomeza akiteza imbere.

Ubuhinzi bw'imbuto ni ikintumu cyiza cyane, aho umuntu agikuramo amafaranga, akagikuramo ibyo gukoresha mugo, urugero nko guhinga ikawa. Ikawa ni nziza cyane umuntu ayikoramo iyo kunywa mu gitondo, iyo gutunga umubiri, ndetse akabayabivanamo amafaranga. Umuntu akagurisha ikawa yarangiza akabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo, harimo nko kugura n'inka.

Ubuhinzi bw'imbuto buba bwiza cyane, aho usanga abantu barabuhinze mu duce dutandukanye tw'Igihugu. Ugasanga nk'abantu bahinze imbuto y'ibishyimbo ikera bakayijyana nko ku isoko, bakabonamo amafaranga yo gukoresha ibindi bikorwa, ndetse na za mbuto bakazikoresha mu mafunguro kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane aho usanga umuntu yari yiyororeye imbuto harimo nk'amasaka, uburo n'ingano, ugasanga abantu bahuriye hamwe bari kuzigosora, bari kuzirobanura baniteza imbere. Uwararitse akajya atanga amafaranga, ari uwazihuye akabona amafaranga, bityo imiryango yabo igakomeza igaterara imbere, kubw'igihingwa cy'imbuto.

Ubuhinzi bw'imbuto buba bwiza cyane, aho umuntu ahinga akiteza imbere, akagura imyenda, akagura ibikoresho byo mu nzu, nk'ubuhinzi bw'amasaka, amasaka umuntu ayatekamo igikoma, bakayaryamo umutsima ndetse byaba ngombwa bagasagurira amasoko n'abayakeneye bakaza bakayagura, dore ko n'amasaka yifashishwa benga imisururu ndetse n'inzoga, bagakomeza bakiteza imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga ko abantu bashyize hamwe nko mu makoperative, bagahinga ahantu hanini cyane, cyangwa se nk'umuntu agahinga wenyine, agahinga nk'igihingwa cy'umuceri, umuceri bakajya barawifashisha ku mafunguro yo mu rugo, byaba na ngombwa bagasagurira amasoko, ibyo bigafasha abakeneye umuceri bawubona ku giciro cyiza kandi na ba bandi bari gucuruza umuceri, bakabona amafaranga yo gukomeza kwagura ubuhinzi bwabo.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'abahinzi barahinze imbuto zitandukanye, nk'ibigori, nk'amasaka. Bamara kuzihinga, bagashyiraho nk'amakusanyirizo yo guhunika imyaka, kugira ngo iyo myaka zabo zibe ziri ahantu heza cyane kandi hatekanye. Kugira ngo n’ukeneye imyaka, abone aho kujya kuzifatira. Ndetse bigafasha n'umuhinzi kubika neza ya myaka ye, itangiritse.

Ubuhinzi bw'imbuto buba bwiza cyane, aho usangaga nk'abantu barahinze imbuto zitandukanye, nk'amasaka, ingano, uburo, ibyo bikabafasha nko kugushaka no guhunika, ugasanga baboshye nk'imitiba baranayisakara, ugasanga bafite nk'ikigega hanze cyo guhunikamo, icyo kigega kikabafasha kubika neza imbuto basaruye. Kugira ngo zitazamungwa cyangwa zitazangirika.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje kwiyongera aho usanga umuntu yarahinze nk'ibishimbo, ubunnyebwa bwo gukoresha mu mafunguro atandukanye. Ukabijyana ku isoko ukabona amafaranga yo gukoresha indi mirimo itandukany: nko kugura imyenda, kugura amakaramu, n'ibindi bitandukanye, bigafasha n'igihugu cyacu gutera imbere.

Ubuhinzi bw'imbuto buba bwiza cyane. Aho usanga nk'abahinzi bari guhinga imbuto zitandukanye, ugasanga bari guhinga nk'amajeri cyangwa se bari guhinga nk'ingano, ugasanga izo ngano bazikoresha bari kuzitekamo ibyo kurya nk'umutsima, ndetse n'igikoma barangiza bakazisagura amasoko bakabonamo amafaranga yo gukomeza gukoresha mu buhinzi bwabo bakiteza imbere.

Ubuhinzi bwa kijyambere busigaye ari bwiza cyane, aho umuntu asigaye ahinga nk'imiteja, akayihinga yo kurya ndetse akanayijyana ku isoko akayiguranishamo amafaranga, ari yo mpamvu twese dukwiye guhinga dushyizemo imbaraga.

Ubuhinzi buba bwiza cyane ,aho usanga nk'abantu barishyize hamwe cyangwa, se nk'umuntu ku giti cye akaba yahinga nk'imbuto y'amasaka ,ugasanga ayo masaka arayifashishije ayajyanye nko ku isoko ,bamuhaye amafaranga, amafaranga abonye ayakoresheje ibindi bikorwa bitandukanye ,nko kugura ifumbire ye ,nko gukomeza kugura umuti wo gutera amasaka, bigafasha wa muturage wahinze amasaka kwiteza imbere.

Uburezi buba bwiza cyane aho usanga nk'umuntu yaragiye kwiga muri segonderi no muri kaminuza. Akiga nko kuvura amatungo yamara kwiga kuvura amatungo haba hari nk'inka yarwaye, ihene ibyo bikamufasha kuzivura kuko yabyize ndetse akanamenya nuko yakubaka ibiraro byo kororeramo ya matungo.

Uburezi bubaga bwiza cyane, aho usangaga nk'umuntu yaragiye kwiga muri segodere, akigana no muri kaminuza, akiga nk'ubuveterineri ibyo bikamufasha nko kuvura inka zarwaye, cyangwa se amatungo yarwaye no kuzirimbisha, ibyo bikamufasha gukoresha ubushobozi yize mu ishuri, kandi bikamufasha no gufasha abaturage mu kuvura amatungo yagize ibibazo cyane cyane by'uburwayi.

Ubuvuzi bw'amatungo buba bwiza cyane aho usanga umuntu arajya nko ku ishuri akiga mu buveterineri, akiga nko gukama inka akajya ayikama, ndetse akiga no kuzivura zaba zarwaye akazivura, kuzitera urushinge. Ibyo bigafasha veterineri gutera imbere ndetse na za nka boroye zikagira ubuzima bwiza.

Uburezi ni bwiza cyane aho umuntu ajya kwihugura, yavayo agafasha abaturage mu gupima inyama. Mbere wasangaga abaturage bari kubaga, baje, bamara guteka ugasanga zirabishe, batazi ukuntu byagenze, kandi zabaga zifite uburwayi ariko ubu veterineri asigaye abanza kuzipima, yarangiza akabaha uburenganzira bwo kuzirya.

Uburezi ni bwiza cyane, aho usanga umuntu yarize agahera muri garidiyene, akazamuka muri pirimeri, akajya muri sogonderi, akajya no muri kaminuza. Akiga nk'ubuveterineri, ubuvuzi bw'amatungo. Inka zarwara, ihene zarwara, inkoko n'intama, n'imbata, akamenya ngo arazivura ate, akaziha umuti, akazitera n'inshinge, izo nyamaswa z'inka zigakomeza zigakura zigatera imbere, akabonamo n'amafaranga.

Kuba veterineri biba byiza cyane aho usanga nk'aveterineri bamuzanira n'amatungo cyane cyane nk'imbwa akazikingira nk'ibisazi ku buryo wenda zaruma nk'umuntu ugasanga nta kibazo agize. Bigafasha veterineri kubona amafaranga ndetse n'abafite za mbwa zabo ugasanga zifite ubwirinzi ku bwo kutaruma abantu ngo bagire ihungabana.

Ubuvuzi bw'amatungo buba bwiza cyane, aho umuntu ajya mu ishuri akiga nka veterineri, yamara kubyiga akorora nk'inkoko, cyangwa se inkoko zarwara akajya kuzivura, akazishakira umuti. Izo nkoko zikajya zitera amagi, tukajya tuyifashisha mu mafunguro, byaba ngombwa tukayasagurira amasoko, tukabonamo amafaranga yo gukomeza kwiteza imbere tugura izindi nkoko.

Ubworozi bw'ingurube buba bwiza cyane, aho usanga abaturage baroroye ingurube nyinshi cyane. Noneho veterineri akajya nko kwiga, akiga ubuveterineri akajya azikingira, aziha umuti, azimenyera n'ibyo kurya. Ibyo bigafasha ingurube ndetse n'umworozi, kubona ibibwana by'ingurube byinshi cyane, ugasanga ari kwiteza imbere n' imiryango yabo yayitejeje imbere.

Kwiga ni byiza cyane aho umuntu yiga muri pirimeri akiga muri sogonderi, yagera muri segonderi bakamwigisha amashuri yo kwiga kugaburira amatungo veterineri, wamara kubyiga bakakwereka uburyo uzajya ukoresha imiti itandukanye, warangiza ukajya uvurira abantu inka zarwaye ukajya umenya Inka y'umuturanyi, ukayitera n'urushinge ukanayikingira cyangwa ugateresha n'intanga, bityo bityo bigatuma abantu bagira inka nziza ndetse no kubona amafaranga.

Uburezi buba bwiza cyane aho usanga abantu bari kwiga muri primeri bakajya no muri sogonderi no muri kaminuza, bakiga ibintu bitandukanye ugasanga bize nk'ubuvuzi bw'amatungo veterineri, ugasanga barabyize bakajya bavura nk'amatungo yarwaye nk'inka zarwaye, ugasanga bari no kuziteresha intanga, ugasanga nk'abantu bafite amatungo barishimye kubera ko ba vateneri bari kubavurira amatungo, bikabafasha gutera imbere no kugura amatungo menshi.

Ubworozi bw'inka buba bwiza cyane ,aho usanga nk'umuntu yaragiye kwiga nk'ubuvuzi bw'amatungo, ugasanga yize nka veterineri ,inka cyangwa se amatungo yarwara ugasanga arazivuye aziteye umuti ,azihaye umuti, ugasanga n'izo nka ari inyana zabyaye ,ugasanga zimeze neza, ndetse n'amata twayanywa ugasanga afite, nta burwayi arimo.

Kwiga bibabyiza cyane aho usanga nk'umuntu yarize nk'ubuveterineri bw'amatungo ugasanga nk'umuntu yize kuvura nk'inkwavu ugasanga urupavuro rugwa yararuvuye cyangwamoso uga asanga mu gihe cyo kuzibaga ugasanga nkaveterina'amazu yayapimahu kw'aba rutafite uburwayi basanze rutarufite usanga nk'abantu bari kururya bishimye kubera ko rudashobora no kubanduza kubera veterineri yaruhaye umuti akanarupima.

Ubworozi bw'amatungo buba bwiza cyane, umuntu afata nk'inka akayorora, yarangiza kuyorora, akajya no kwiga akiga muri pirimere, akiga muri segondere, akaba veterineri inka yarwara akayivura, agashaka imiti akayivura , ndetse ya nka igakira igatanga amata, amata bakayajyana ku isoko ndetse na ya nka bagakomeza kuyisigasira.

Inyamaswa zo mu ishyamba zikomeje kwiyongeraho cyane. Aho usanga zifitiye igihugu cyacu akamaro. Abantu bajya gutembera bakazireba bakishimisha, ndetse bagatemberana n'imiryango yabo, bareba inyoni zitandukanye n'udusimba dutandukanye, nk'inkima, inkende ndetse izo nkende n'abazungu bakaba baza baturutse hanze bakatuzanira amadovize. Bityo igihugu cyacu kikiteza imbere n'abagituye.

Inyamaswa zo mu ishyamba ziba cyane, aho ziba barazishyize hamwe, ahari abaturage bakaza kwihera ijisho, hari aho n'ibyatsi byaho ukuntu bari ari byiza cyane, ugasanga nk'ifumbiri ba mukerarugendo baje kuzireba amadovize tukayakoresha turi kubaka igihugu cyacu.

Dukomeje kubungabunga ibidukikije kuko bituzanira ba mukerarugendo bakaduha amafaranga, mu gihe cyo hambere wasangaga bari guhiga inyoni, ibisimba byose biba mu ishyamba nk'aho bidafite umumaro ariko kubw' iterambere ry'igihugu cyacu basigaye barazirinda tukazibungabunga, zikatwinjiriza amafaranga yo kwifashisha mu miryango yacu.

Iterambere rikomeje kwiyongera cyane, aho usanga inyamaswa zo mu ishyamba na zo ziyongera ,zikadufasha kubona ba mukerarugendo kuko zituzanira amafaranga y'amanyamahanga, cyangwa se amadovize kugira ngo natwe twiteze imbere, ndetse n'igihugu cyacu kigakomeza gutera imbere, zubaka insengero imihanda n'amavuriro byavuye muri y'amafaranga aturutse mu nyamaswa ziba mu gasozi.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba nziza cyane, aho usanga nk'ibisimba bitandukanye harimo nk'ingurube yo mu ishamba zikurura ba mukerarugendo, ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize yo kwifashisha mu kubaka igihugu cyacu, icyo igihugu cyacu kigatera imbere, kikubaka ibitaro bitandukanye n'amavuriro, ibyo bigafasha igihugu gutera imbere, kuko ba mukerarugendo batuzaniye amadofize.

Inyamaswa zo mu ishyamba ziba nziza cyane, aho usanga ahantu hatandukanye ari mu mazi, ari mu misozi y'ibirunga, usanga harimo nk'imvubu. izo mvuvu zikajya zikurura ba mukerarugendo bakazana amafaranga y'amadovize, amafaranga y'amadovize igihugu kikayifashisha mu iterambere, ibyo bigafasha igihugu gutera imbere ndetse no kumenyekana, mu ruhando mpuzamahanga kubwo kugira inyamaswa zo mu gasozi nziza.

Inyamaswa zo mu ishyamba ziba nziza cyane, aho usanga abantu, abaturage bari kuzibungabunga ugasanga bagiye kuzireba nabo bishimye batanze amafaranga, ugasanga na ba Mukerarugendo baje mu gihugu cyacu bazanye amafaranga ,amadovize, ayo mafaranga bakayifashisha bari kubaka ibitaro ,n'ibikorwa remezo bitandukanye.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba nziza cyane, aho usanga aho ziba na ho kuhareba hateye amatsiko, ubwo wajya nko kureba nk'imbwa ukayireba ukareba uburyo yishimye, kandi n'iyo mbwa ishobora kukubyariraho nk'icyana ukayijyana mu rugo ikakurindira nk'abasambo, ndetse n'abanyamahanga baje no kuzireba, bakazana amafaranga yo kwifashisha mu guteza imbere igihugu cyacu.

Inyamaswa zo mu ishyamba ziba nziza cyane, aho usanga zikurura ba mukerarugendo, bagatanga amadovize, ndetse n'abanyarwanda muri rusange usanga bagiye nko kuzireba barishimye, kubwo kurereba inyamaswa, ugasanga batanze amafaranga yo kubaka igihugu, ndetse n'ayo kwagura izo pariki ziba zirimo inyamaswa.

Inyamaswa zo mu ishyamba ziba nziza cyane aho usanga nk'inyoni inyamaswa zitandukanye ziri mu biti byiza, ugasanga nk'abantu baje kuzireba bamara kuzireba ugasanga nk'abazungu bazanye amadovize ayo madovize afasha igihugu kubaka ibitaro n'amavuriro ndetse n'amashuri, ugasanga igihugu gitera imbere kandi na ba bandi baje kuzireba ugasanga barishimye banezerewe kubw'inyamaswa.

Inyamaswa zo mu ishyamba ziba nziza cyane, iyo abaturage bagiye nko kuzireba bakishima ,cyangwa se na ba Mukerarugendo bakazana amafaranga yo kureba nk'inyoni, cyangwa se inuma, ugasanga ayo mafaranga y'amadovize bayakoresha bubaka ibitaro, n'amashuri, bigafasha igihugu gutera imbere.

Inyamaswa zo mu ishyamba ziba nziza cyane, aho usanga ba mukerarugendo cyangwa se n'abantu baturutse mu gihugu runaka; bari kuza kureba bakazana amafaranga, amadovize. Ibyo bigafasha Leta kubungabunga inyoni ndetse n'ibisimba byo mu ishyamba ngo bikomeze kubazanira amadovize yo kubakisha ibikorwaremezo.

Inyamaswa zo mu ishyamba zikwiye gukomeza kusigasirwa, kuko zituzanira amafaranga yo gukoresha mu bikorwa bitandukanye, ndetse tukubaka n'igihugu cyacu. Nk'amavuriro, nk'amashyuri aturutse mu mafaranga kuri ba mukerarugendo baba baje gusura inyamaswa zibera mu ishyamba.

Ba mukerarugendo basigaye bariyongeye， batuzanira amafaranga y'amanyamahanga， kubw'ibyo， agafasha igihugu cyacu gutera imbere no kuzamuka mu bukungu. Aho mbere wasangaga buri muntu， ari kwanduriza ibidukikije， cyane cyane nk'inyoni n'inyamaswa， ugasanga zabuze ubuzima, ariko ubu dusigaye turazibungabunga， kugira ngo ziduhe amafaranga.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba nziza cyane cyangwa se izo mu ishyamba, aho usanga Leta yarifashe igafata ubutaka bunini ikabuteraho ibiti bitandukanye, ibyatsi bitandukanye, bityo inyamaswa zo mu ishyamba zikajya zikurara ba mukerarugendo. Bakatuzanira amadovize, Igihugu cyacu kigatera imbere, kikubaka insengero, amavuriro, amashuri, ibyo bigafasha abaturage kubaho bishimye, kandi batekanye. Kubera ba mukerarugendo batuzanira amafaranga amadovize.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane aho usanga zikuru ba mukerarugendo, urugero nk'inyoni nk'amoko menshi y'inyoni usanga yakuruye ba mukerarugendo, bagatanga amafaranga y'amadovize amafaranga bakifashisha mu guteza imbere igihugu cyacu.

Inyamaswa zo mu ishyamba ziba nziza cyane, aho usanga nka ba mukerarugendo, cyangwa se n'abantu basanzwe batuye mu gihugu, baje nko kuzisura, ugasanga bazanye nk'amafaranga yinjiriza igihugu, ba mukerarugendo bakazana nk'amadovise zifite, ayo madovize bakayakoresha bubaka nk'amasoko ndetse n'ibitaro, n'amashuri, bigafasha igihugu gutera imbere.

Inyamaswa zo mu ishyamba, zikwiye gukomeza gusigasirwa kuko zizana ba mukerarugendo, na zimwe ziba mu dushanga harimo nk'akanyamaswa kitwa maganya, iyo abantu bakareba kaba gasa neza ndetse kagakomeza kagatanga umusaruro mu gihugu, kubera ko kazana ba mukerarugendo, bakaduha amafaranga yo kwifashisha no kurinda izindi nyamaswa.

Inyamaswa zo mu ishyamba ziba nziza cyane, aho usanga leta yarafashe nk'ahantu ikahatera ishyamba ikahatera ibiti bitandukanye n'ibyatsi, gutyo igashyiramo nk'inuma cyangwa se inyoni, ba mukerarugendo bakajya baraza kuzireba ndetse n'abaturage muri rusange bakajya kuzireba, bagatanga amafaranga, amafaranga bayakoresha bari kubaka igihugu ibikorwa bitandukanye, harimo nk'amavuriro ndetse n'amashuri, ibyo bigafasha igihugu gutera imbere cyane.